Kugira akarima k'igikoni ni byiza mu rugo, kuko bidufasha mu mirire myiza, intungamubiri, cyane cyane mu gihe turi kugaburira abana, hagomba kuba harimo imboga, imbuto, byose bigomba kuba birimo, kugira ngo umwana agire ubuzima buzira umuze, abashe no guhangana n'indwara.

Gufasha imiryango iri mu kaga ubukene ni byiza, bituma batigunga bumve ko bari bonyine, abana imirire aba ari mibi, ikazamuka, bagahabwa ubufasha, ubuvuzi, kwiga n'andi mahirwe atandukanye.

Gukaraba intoki igihe cyose uvuye ahantu umaze gukora imirimo ni byiza kuko babyica udukoko, ahantu uba watambutse haba hari udukoko dutandukanye twagutera indwara.

Igihe haje icyorezo runaka, umuntu wese agomba kwihutira gufata urukingo kugira ngo abashe guhangana n'ako gakoko igihe kazaba kinjiye mu mubiri wiwe, ntikazamugireho ingaruka ngo kamuzahaze.

Abajyanama b'ubuzima bagomba guhabwa amahugurwa, bakagira byinshi bamenya ku murimo bakora, ubwenge n'ubumenyi byisumbuyeho mu mirimo yabo ya buri munsi yo kwita ku barwayi.

Gufasha abana batishoboye bakava mu mirire mibi, aba ari byiza, kuko ntabwo baba babona ibihagije imiryango yabo hari igihe iba ikennye cyane cyangwa barabyaye benshi batabashije kurera.

Cyane cyane ku bigo by'amashuri bagomba gushyiraho uburyo abanyeshuri bajya banywa amazi, kuko kunywesha intoki ntago aba ari byiza, baba bafite udukoko dutandukanye kandi ayo mazi ugasanga ntago asukuye bigateza ikibazo.

Tugomba kugirira abana isuku ibikoresho bikaba bisa neza, mu gihe bagiye kurya kuko baba bakoze ahantu henshi hatandukanye bakazana udukoko na za mikorobe ugasanga zabatera uburwayi butandukanye.

Abana kubarekura ari batoya bakajya koga mu kiyaga ntabwo aba ari byiza, bashobora guhura n'impanuka, bashobora guhura n'ibisimba bikabarya, ugasanga biteje ikibazo ku babyeyi barekuye abo bana.

Gufasha abahuye n'ihungabana, ibibazo bitandukanye by'intambara, aba ari byiza, tukababa hafi, tukabahumuriza, bakumva ko na bo ari abantu bafite ababitaho, batari bonyine. Aba ari byiza.

Abarwayi bo mu mutwe tugomba kubafasha, tukabegera cyane kuko hari benshi babatererana ariko ntabwo ariko byakagombye kugenda, bagomba kujyanwa kwa muganga bakagirirwa isuku, bo ntacyo baba bitayeho nta n'icyo baba bazi twe bazima ni twe tugomba kubajyana kwa muganga tukabitaho.

Abarwayi bo mu mutwe hakomeje kuba benshi muri iki gihe, ariko ntabwo tugomba kubatererana ngotwumve ko atari abantu ari ibicibwa ahubwo tugomba kubaba hafi mu buzima bwabo bwa buri munsi, tukabakurikirana kwivuza.

Ubukene, intambara bituma iterambere risubira inyuma, abana bakabaho nabi ntibige, ntibabone ibyangombwa, ntibabone ubuvuzi ugasanga babaye ibirara, bajya mu mihanda nta burere bari bafite buhagije.

Kujyana umwana ku ishuri akiri muto, bituma ubwenge bufunguka, agakurana, umuco, imyitwarire myiza, ugasanga no mu ishuri aratsinda neza.

Gukorera isuku amenyo buri munsi biyarinda kurwara, kuvunguka, ifumbi no kuba wanuka mu kanwa, ugasanga hasa neza, bikakurinda kugira ibibazo by'amenyo.

Kuborosa ni byiza buri munsi cyangwa ukabikora inshuro ebyiri ku munsi umaze kurya, ugakora isuku mu menyo ariko na bwo ukirinda kuba wakoza ku ishinya kuko birayica, ibyo rero bizadufasha kurwanya indwara zo mu kanwa.

Tugomba kujya mu mashuri matoya, tukigisha abana uburyo bagomba gusukura amenyo. Mu gihe uyasukuye bikurinda indwara zitandukanye ifumbi, kuvunguka kwayo no kunuka mu kanwa.

Kwita ku bana bafite ubumuga aba ari byiza kuko ntacyo baba babasha kwikorera kandi tukabafata nk'abantu bagenzi bacu ntitubatererane, tukabitaho bihagije isuku, imirire, bakagira na bo ubuzima buzira umuze.

Amenyo tugomba kuyagirira isuku, kuko biturinda indwara zayo, kuvunguka, kunuka, kandi agahora asa neza, ku buryo n'ukurebye abona biteye ishema.

Kwiga ni byiza, amashuri ni meza, gufasha abana kwiga neza bituma ubwenge bwiyongera, ku bushobozi, kujijuka, iterambere mu gihugu rikiyongera.

Abantu bageze mu zabukuru, bagomba kwitabwaho bakarebererwa, bakagira umuganga ubakurikirana, kuko umubiri wabo uba umaze gucika intege nta budahangarwa ukigira, kandi bagahabwa indyo yuzuye ku buryo babasha guhangana n'ubuzima, bagasaza neza.

Siporo itanga umunezero, ibyishimo, cyane cyane ku bantu bakuze baba bazikeneye cyane kugira ngo zibagabanyirize ibinure, umubyibuho babashe guhangana n'indwara zabataka igihe icyo ari cyo cyose.

Gukora imyitozo ku muntu ukuze, bituma imitsi igorororoka, uturemangingo tugakanguka twaba twarasinziriye kandi akagira amagufa akomeye, ubudahangarwa agakomera cyane.

Kwita ku bakozi ni byiza, kuko nta mbaraga baba bagifite, hari ibyo badashobora kwikorera, aba ari byiza rero gukurikirana imibereho yabo umunsi ku wundi, kuko baba bafite indwara nyinshi zitandukanye.

Abageze mu za bukuru bagomba kwitabwaho, kuko nta mbaraga baba bafite zo kwiyitaho, bakagira umuntu ubaba hafi, akabamenyera igihe bagomba gufata imiti ku gihe n'ibyo kurya, kugira ngo ubuzima bwabo babusigasire.

Kugira umuryango ni ishema wishimye, ubanye neza mu mahoro, nta makimbirane byongera ubucuti hagati hanyu, icyizere, umubano ugakomera, ibyishimo n'umunezero.

Abageze mu zabukuru bagomba kugira abaganga, babitaho bakabamenya bakabasuzuma bakabaha n'ibikoresho yahagurukiraho mu gihe nta mbaraga gifite kuko baba bashaje cyane.

Gukora siporo ku muntu ukuze bituma aramba, akabaho igihe kirekire, amagufa agakomera, akagabanya amasukari, indwara n'ibindi byose biterwa no kudakora siporo.

Icyayi ni cyiza, mu Rwanda turagikora kikavamo amajyani, kikajya hanze kikaba cyavamo imiti runaka, ugasanga kirakunzwe ku isoko Mpuzamahanga kandi kinjiza imisoro myinshi mu gihugu.

Umuntu ukuze aba ari ngombwa kumwegera ukamuganiriza, ukamubwira inkuru zisekeje kugira yishime kuko aba atangiye gusubira inyuma ameze nk'umwana, agomba kwishima kugira ngo iminsi yicume, amererwe neza, ntabe yanarwaragurika.

Abihayimana na bo bari mu bantu badufasha mu buvuzi, bakatugira inama, bakabasha kutwitaho buri munsi, ari uburwayi busanzwe cyangwa mu kutugira inama z'ubuzima bwa buri munsi, ni ingenzi na bo mu bantu badufasha.

Urubyiruko nitwe tugomba guhagurukira kurwanya agakoko gatera sida, kuko umubare munini usanga aribo bakora imibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi bikwicira ubuzima bikica n'ejo hazaza hawe amahitamo yawe ugasanga abaye impfabusa.

Muri iki gihe hateye ubusheta bw'inkende, ni ngombwa kubwirinda, kandi ukikingiza inkingo zose uko zagenwe, kugira ngo ejo n'igihe bugufashe uzabone ubwirinzi mu mubiri bukurinda kuba wakatakwa n'iyo ndwara.

Gufata inkingo ni byiza ku buzima bwacu muri iki gihe turwana n'ibyorezo bitandukanye. Bidufasha kongera ubudahangarwa bikatwongerera imbaraga mu mubiri, bikaduha no kuramba no gukomera, igihe iyo virusi yinjiye ntihite ituzahaza.

Tugomba gufata inkingo igihe cyose mu gihugu haje icyorezo ku buryo igihe cyose kizaba cyageze mu mubiri wawe kitazakuzahaza uzabasha kubona ubwirinzi no guhangana na cyo kugira ngo utaremba.

Iyo utanze amaraso uba utanze ubuzima, kuko uba ufashije wa murwayi uri kwa muganga wakomeretse ukeneye kuyahabwa, kandi nawe bikagufasha kumenya ubwoko bw'amaraso yawe byoroshye utabashije kwishyura, nawe igihe uzayakenera bizagufasha bizakorohera kuyabona.

Umurwayi uri kwa muganga urembye agomba kwitabwaho agahabwa ubufasha bwose bushoboka ku buryo nta kibazo yaza kugira akarebererwa buri kanya ko ameze mu mubiri ku buryo uburwayi butakomeza kumuherana.

Gukurikirana abarwayi kwa muganga, ni byiza ni ngombwa muganga amenye umurwayi buri saha, buri kanya, akareba uko amerewe akamupima, akamenya uko ubuzima buhagaze buri kanya, aba ari byiza cyane.

Kuganiriza umuganga ukamubwira ubuzima bwawe ko buhagaze birafasha cyane kuko umubwira uko umeze aho ubabara akakumva, akaba yagufasha akaguha imiti y'imfashamyumvire akaba yakugira inama zitandukanye ku buzima bwawe.

Inzu y'ababyeyi babyariramo, igomba kuba ifite isuku, yubatse neza ari ahantu hatava, ari ahantu hasukuye hatari umwanda, ku buryo igihe agezemo nta bibazo byamubaho cyangwa umwana yabyaye agire ikibazo cy'umwanda.

Iyo umurwayi agiye kwa muganga ibitaro biri hafi yiwe bimuha amahirwe yo gukira akaba yagerayo vuba bikamurinda impfu za hato na hato, kuko aba abyegereye kandi agahabwa ubufasha bidatinze.

Amafaromasi ni meza mu gihugu, kuko iyo ibitaro byabuze imiti, unyarukira kuri faromasi ukaba wabona uwo umuti, cyangwa wa utaba ushaka kujya kwa muganga ukajyayo ukahita ubona uwo muti.

Gukora amasuku aho abarwayi barwariye mu bitaro, ni ingenzi kuko bibarinda udukoko, bikabarinda umwanda no kwandura izindi ndwara zitandukanye ziterwa na wo, ugasanga bari ahantu heza bahumeka umwuka umeze neza.

Inkingo ni nziza, kuko zidufasha kurwana n'udukoko duturuka hanze twinjira mu mubiri, tukagira ubudahangarwa, tukaba dukomeye, ugasanga ntabwo tuzahajwe n'uburwayi.

Ni byiza ko umugore ajya kubyarira kwa muganga, kugira ngo bamusuzume muganga amenye uko umwana ahagaze mu nda, uko ubuzima bw'umubyeyi bumeze, uko aribuze kubyara, byose akaba abizi akabimubwira, akaba azi uko biri buze kugenda.

Iyo wiyakiriye ahantu heza hasa neza, biragushimisha nibyo rero bikakugwa neza, ibyishimo bikiyongera, amarangamutima akazamuka ukaba wizeye ubuzima bwiza buzira umuze, ukaba wizeye ko nta kibazo uza kugira mu mirire aho watembereye ukumva ko uri amahoro.

Gupimisha abana rero ni byiza, ugomba kujya kwa muganga buri gihe kugira ngo umenye ko ubuzima bwe buhagaze, kuko bigufasha kumenya uko umugaburira mu mirire yiwe, uko wamukurikirana mu buzima bwiwe n'ikibazo yaba afite bikakorohera.

Kunywa amazi umaze gukora siporo ni byiza kuko bigufasha kuyungurura amaraso, impyiko kandi bikongera n'ubushobozi mu mubiri kuko uba watakaje menshi, bisaba yuko wongera ukanywa andi menshi.

Kujya muri siporo wambaye imyenda itari iyayo ntago aba ari byiza. Ugomba gushaka umwambaro wayo inkweto, ipantaro, umupira n'ibindi bikoresho bikenerwa. Ugashaka n'icupa utwaramo amazi uza kunywa mu gihe usoje icyo gikorwa.

Mu mibereho yacu ya buri munsi tugomba gufata imbuto harimo inanasi, amacunga, avoka, umuneke, ubunyobwa ku buryo tubasha guhangana n'indwara izo arizo zose zatwataka.

Kugira amahugurwa mu mibereho yacu, mu kazi, mu byo dukora, mu mirimo ya buri munsi ni byiza kuko bidufasha kongera ubumenyi, kujijuka, kumenya byinshi kuri uwo murimo dukora nk'abaganga bibafasha kumenya byinshi.

Amazi ni meza ku buzima, adufasha kurwanya indwara zijyanye n'amasukari, kuyungurura impyiko, mu igogora ry'ibiryo, amazi ni ubuzima.

Gukora siporo ni ingenzi, ariko nyuma yayo ugafata imbuto wamara kuzifata biba byiza cyane kuko umubiri uragenda ukamera neza amagufa agakomera ibiro bikagabanuka ugasanga ufite ubuzima buzira umuze.

Siporo ni nziza idufasha kugabanya ibinure, nk'uyu mugore uri gukora siporo afite ibinure byinshi arabyibushye, agomba kubigabanya kugira ngo ajye ku murongo yongere amere neza.

Siporo ni nziza ku buzima bwacu. Idufasha kugabanya ibinure, kongera ubudahangarwa mu mubiri, kuba icyamamare, gukorera amafaranga, kwiteza imbere. Ibyo byose ni ibyiza bya siporo mu buzima bwacu.

Amazi ni ubuzima, ni meza cyane mu mibereho yacu ya buri munsi ariko tukayakoresha afite isuku, atetse, asa neza, nta myanda irimo, aho ngaho niho atugirira umumaro mu mubiri wacu.

Siporo n'imirire myiza ni ibintu bigendana ari bibiri, iyo ufashe kimwe ugomba gufata n'ikindi, kuko bitwongerera ubudahangarwa bikaturinda indwara zitandukanye, bikaturinda umunaniro mu buzima.

Amazi ni ubuzima adufasha mu mirimo ya buri munsi mu ngo zacu ahantu hatandukanye kandi agira umumaro mu mubiri wacu, kuko arwanya indwara zitandukanye nk'impyiko n'izindi mu mubiri ni ubuzima.

Siporo ni nziza, zidufasha kunanura ingingo, kugabanya amasukari mu mubiri, kugabanya ibinure, kongera ubudahangarwa, kongera ibiro, amagufa agakomera, kugabanya ibinure mu mubiri.

Mu mirire myiza habamo ibyuyubak'umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara. Byose rero tugomba kubifata ku buzima, kuko ari ingenzi cyane. Biturinda indwara, bituma dukomera, bigatuma tugira ubuzima bwiza, umuntu akabaho neza, imitekerereze ikazamuka, bikagabanya n'igwingira.

Igikakarubamba kirimo imiti yose amenyo ugasanga asa neza, bikarinda ifumbi, bikarinda kuvunguka kwayo, akamera neza impumuro nziza mu kanwa.

Imiti gakondo ni myiza cyane kuko ifasha kuvura indwara zitandukanye kandi nta ngaruka mbi itugiraho mu mubiri ubu rero aba ari ni byiza kuyikoresha buri gihe kurusha imiti ya kizungu.

Avoka n'igikakarubamba ni ibintu byifashishwa bakora isabune, umuntu yakaraba ikamurinda indwara z'uruhu, ikamurinda amaheri ugasanga asa neza afite umubiri mwiza.

Umuravumba ni igiti kiza, bawukoresha bubaka, bakora imiti ya Kinyarwanda, uvura imvune, inzoka, n'Amibe, n'izindi ndwara nyinshi cyane, ni ingenzi kuwukoresha, ni na byiza cyane.

Umuravumba ni igiti cyiza, gikorwamo imiti ya kinyarwanda, kigakorwamo imiti ya kizungu, kikanavura uko kimeze, ukacyanika kikavamo agafu, ubundi ukajya ushyira mu mazi, ukanywa. Aba ari byiza cyane, kirafasha.

Inanasi n'umuneke ni ingenzi mu buzima kuko bidufasha mu buzima bwa buri munsi, havamo imitobe itandukanye, abantu bifashisha bari kunywa kugira ngo intungamubiri ziyongere.

Igikama ni kiza kivamo imiti yoza amenyo, amenyo ntavunguke, ntarware ifumbi, ntunuke mu kanwa kandi ugasanga ni umweru, asa neza nta kibazo ufite.

Igikakarubamba n'ingenzi tugomba kugihinga ukagishishikariza abantu kuko ni cyiza, kidufasha mu gukora amavuta yo kwisiga, amasabune yo gukaraba, imiti y'amenyo, wanagikoresha uko kimeze ukagisiga mu maso kikagukiza amaheri.